Mu muhanda wa kaburimbo wegeranye ufatanye n'akayira k'abanyamaguru uri kumwerumo abaturage, hirya y'aho hari igice kiriho ubutaka buhinzeho pasuparume, hirya y'aho hari amazu.